Icyumba k'inama cyahuriyemo abantu baba bayobozi cyangwa abaturage bari kuganira bafite ikintu bari kuganiraho, aho bungurana ibitekerezo ku kintu bari kuganiraho ndetse ayo makuru bashaka ko icyo gitekerezo, bakaba hari abantu bashaka kuyajyana, haba muri rubanda nyamwinshi cyangwa abo bakoresha.

Itangazo ryatanzwe n'ikigo ngenzuramikorere cy'u Rwanda RURA, rikangurira abantu kwirinda ubu bujura cyangwa se uburiganya bukoreshwa hifashishijwe amasimukadi ajya mu matelefoni y'abantu.

Iri ni itangazo ryatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, riburira abasora ko hasigaye umunsi umwe, bagaragaze imisoro batigeze batangaza mbere ya bibiri na makumyabiri na gatatu, ikigo cy'igihugu kikaba gitanga iri tangazo kugira ngo rimenyeshe abasora.

Itangazo ry'ukwezi ryo gushimira abasora ryateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro cyibanda ku ruhare rw'imisoro mu iterambere ry'akarere ka Burera ndetse hakaba hariho n'ibitangazamakuru, amaradiyo n'amateleviziyo iryo tangazo ryanyuzwagaho.

Iminara y'insinga z'amashanyarazi ku muriro muremure, aho insinga z'amashanyarazi ziri mu kirere zitwara umuriro mu duce dutandukanye tw'igihugu, abaturage bakabasha kubona umururiro bagacana ndetse bagakora n'ibindi bikorwa byose bisaba ko umuntu aba afite umuriro w'amashanyarazi.

Sitasiyo ishinzwe kugenzura umuriro w'amashanyarazi ujya mu baturage, aho akazi kayo ari ukugabanya cyangwa se kongera umuriro ujya mu baturage kugira ngo uwo muriro w'amashanyarazi ujya mu baturage utabasha kugira ibyo wangiza mu gace runaka bawujyanyemo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu hamwe ku kigo nderabuzima runaka baje gushaka serivisi ijyanye n'ubuvuzi aho umuntu ava iwe arwaye cyangwa se afite ikibazo cy'uburwayi akaza gushaka umuganga akamuha serivisi akamuvura akamu n'imiti imufasha kugira ngo yorohererwe cyangwa akire indwara yiwe.

Igice cy'ahantu runaka gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye harimo aho baparika amamodoka ndetse n'inzu y'ubucuruzi aho abacuruzi bahurira n'abakiriya bakumvikana ku giciro runaka ku gicuruzwa bafite bakabasha kuba bagurana

Ibitaro bishinzwe kwita ku barwayi ndetse no kuvura indembe zose zije zibagana, aho umuturage aza arwaye, akavurwa ndetse agahabwa n'imiti ibasha kumukiza ubwo burwayi yari afite, ubuzima bugakomeza.

Ibikoresho 2 bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro bikaba ari ibikoresho bikoreshwa imirimo itandukanye. Kimwe cy'ibumoso cyanditseho fumu ni igikoresho kirekura ifuro ikindi cy'umutuku kikaba ari igikoresho gisanzwe gikoresha mu kuzimya inkongi y'umuriro gikoresheje amazi.

Za kizimyamwoto ziri ahantu hamwe, aho ziba zishinzwe kuba zazimya ahantu habaye inkongi y'umuriro nk'agace kamwe katatswe n'inkongi y'umuriro, bafata iyo kizimyamwoto bakayicana bakagenda bazimya aho hantu umuriro, akaba ari ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu kuzimya umuriro mu gihe gitoya.

Umuntu ufashe ku idaraporo ry'igihugu azamuye ikiganza cye cy'iburyo ari kuvugira kuri mikoro bisa nk'aho yahawe inshingano arimo aremera ndetse akanarahirira kuba yakora inshingano mu mucyo ku buryo atazagira uwo abangamira cyangwa nawe bitazamubangamira.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga harimo amamodoka, amamoto n'amagare ndetse n'abashoferi babyo bashinzwe kubitwara, harimo amamodoka ashinzwe gutanga serivisi zo gutwara ibintu ndetse hakabamo n'ibindi binyabiziga nk'amamoto n'amagare bitanga serivisi zo gutwara abantu, bibavana mu gace kamwe bikabajyana mu kandi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, urimo ababitwaye ndetse n'abagenzi batwaye, ukaba urimo n'ibikoresho byereka abagenzi ndetse n'abatwaye ibinyabiziga ko bagomba guhagarara cyangwa bakagenda bitewe n'ikintu cyerekanye, aho iyo cyatse umutuku abatwaye ibinyabiziga bahagarara, ndetse n'abagenzi cyakwaka icyatsi bakaba bemerewe kugenda.